Mu materaniro yahuje abakirisitu batandukanye, baturutse impanda n'ipande, hari umusore ufite irangurura amajwi ndetse na bibiliya mu ntoki, akaba ari kubasomera, ijambo ry'Imana bose bakaba bamuteze amatwi kandi bamukurikiye.

Imbaga y'abantu yateraniye hamwe, bakaba bari mu nama yahuje abayobozi b'inzego zitandukanye, hakaba hajemo n'abashinzwe umutekano, umwe muri bo akaba afashe irangururamajwi ari kubaganiriza buryo ki bakwitwara kugira ngo umutekano urusheho kuba mwiza.

Mu cyumba cy'inama hateraniye abantu benshi batandukanye harimo ababyeyi, abapapa ndetse n'urubyiruko, imbere yabo hakaba hicaye abayobozi batandukanye harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bakaba baje kwizihiza umunsi mukuru w'umuganura.

Mu cyumba cy'inama ahateranira abantu benshi batandukanye harimo intebe nyinshi nziza z'umutuku, hakaba hahagaze umugabo utegereje abandi, akaba ari kubaha ikaze kugira ngo binjire iruhande rwe hakaba hicaye umwe wahageze.

Mu baturage bateraniye hamwe bakaba basuwe n'abayobozi batandukanye, bakaba bari kubakira bababyinira, babaririmbira kugira ngo babereke ko babishimiye, kugira ngo baze kubagezaho ibyo babateguriye babona ko babizihiye.

Inkangara, ni igikoresho cyifashishwa mu muco nyarwanda, ubwo iyo bagiye gusura abageni, bashyiramo ibishyiyimbo, imyumbati n'ibindi biribwa, bakajya kubitura ahantu runaka.

Amahugurwa yateranyije, ingeri zitandukanye, harimo aban,a ababyeyi, bakaba babakirije amazi ndetse na ji, bakaba bari kubaganiriza kuburyo ki bakwita ku bana babo kugira ngo ejo bazagire ubuzima bwiza.

Itsinda ry'ababyinnyi bishyize hamwe ndetse n'abaririmbyi bakaba babyina imbyino za kinyarwanda, bakaba basusurutsa abageni ndetse n'abandi bantu batandukanye, rikaba rifite ibikoresho byabugenewe umuco Nyarwanda.

Ababyeyi bari kubyina imbyino nziza za kinyarwanda, bakaba bambaye imikenyero myiza, ndetse bakaba ari kumwe n'abasore bahamiriza. Bafite ibikoresho byabugenewe kugira ngo basusurutse abantu bari aho ngaho.

Umusore wambaye ijire y'umuhondo, ushinzwe gukora imashini zapfuye, imodoka, amamoto ndetse n'ibindi bigendanye n'ikoranabuhanga, akaba ari we uza akabikora akareba aho byapfiriye kugira ngo abisubize ku murongo.

Mu muhanda muri kaburimbo hari kugenda urugendouru rw'abaturage, ababyeyi, aba papa ndetse n'abana bakaba bagiye kunyura ku nzu nziza y'ubucuruzi aho ushobora gusanga ibintu byose, ibiribwa, ibyokunywa n'ibindi bitandukanye.

Mu muhanda harimo umukuru w'Igihugu ari kumwe n'abandi bagabo bamukikije, akaba ari kumwe n'ushinzwe umutekano, kugira ngo amurinde hatagira ikibazo yahura nacyo.

Ni nyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati meza agezweho, ikaba ifite ibigega bijyamo amazi yo gukoresha imirimo itandukanye ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti birebire kandi byiza.

Urutindo rwiza rwubakishije imikwe ikomeye, hariho abantu babiri, umumama wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari kumwe n'undi musore bakaba bari kurugenderaho iruhande n'inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe hakaba hari itsinda ryishyize hamwe rikaba ryambaye imipira isa, bakaba bari kumwe n'umuyobozi ndetse baje kumurika imirimo bakora kugira ngo bakangurire abaturage n'abo kugira ibyo bahanga kugira ngo biteze imbere.

Imbaga y'abantu yateraniye hamwe hari abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage imbere hakaba hari umuyobozi ushinzwe imibereho y'abaturage akaba ari kubaganiriza uko bagomba kwitwara ndetse akababwira n'icyabateza imbere.

Inama y'abaturage yateraniye hamwe, imbere hakaba hicaye abayobozi batandukanye, harimo n'ushinzwe umutekano, hakaba hateretse ameza ariho amazi yo kunywa, ingofero, telefone ndetse n'ibitabo bandikiramo.

Icyapa kiranga aho Umurenge wa Nyagatare uherereye, ko uzamuka kugira ngo uhagere, hakaba hari imodoka iri mu muhanda, icanye amatara, irikuganayo ndetse imbere yayo hari abantu bari kugenda mu muhanda. Hakaba hari n'imodoka ziparitse.

Ni muhanda muri kaburimbo, hari amatara yaka amurikira abagenzi ndetse n'imodoka, hakaba hari icyapa cyerekana ko ariho baparika imodoka, bashobora gukuramo abagenzi cyangwa bakinjiriramo.

Mu muganda rusange aho higanjemo abaturage ndetse n'abayobozi bashinzwe umutekano, bakaba bari gukora isuku, batema ibihuru byabateza imibu ndetse n'izindi ndwara, inyuma yabo hakaba haparitse moto ndetse hari n'amazu.

Mu itsinda ry'abaturage bishyize hamwe bakorera hamwe bakaba bahinga ibintu bitandukanye ,bakaba basuwe n'abayobozi b'inzego zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano baje kureba uko abaturage babo bahinga.

Ku kibuga cy'umupira hateraniye urujya n'uruza rw'abaturage aho baje kureba ikipe yatsinze ndetse n'itsindwa, hakaba ikipe ifite icyapa cyerekana amarushanwa yabayeho.

Mu kibuga hari amakipe yahuye akaba ari gukina umupira w'amaguru ndetse hakaba hari abaturage baje kureba uko bakina, hakurya yabo hakaba hari amazu meza kandi n'ibiti birebire.

Mu kibuga cy'umupira, hari abantu bakina ndetse n'ababahagarariye, bakaba bari kubashimira uburyo ki bitwaye ndetse bishimiye intsinzi bagezeho.

Mu muhanda harimo abana batatu b'abahungu bari gukina umupira w'amaguru, bikabafasha kwishima, kurambura ingingo zabo kugira ngo bibarinde indwara zitandukanye.

Mu muhanda w'igitaka hari kugenda umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira, ndetse n'agasengeri k'umukara akaba afite telefone mu ntoki ndetse n'imisatsi miremire.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugenderamo moto zitwaye abagenzi, amagare ahetse imizigo ndetse n’abagenzi, hakaba hari n'abagendesha amaguru, ndetse ku ruhande hakaba hari inzu nziza ndetse n'amashyamba.